Umusirikare mukuru wambaye neza，umeze neza，ari gutanga inama ku baturage batandukanye， afashe icyuma cyabugenewe kimufasha kurangurura ijwi， kugira ngo yumvikane ibyo ari kuvuga，n'impapuro zabugenewe， zanditsweho ibijyanye n'inama， ari kubagezaho.

Kwiba ni umuco mubi cyane， abajura biba ibikoresho by'abantu bigiye bitandukanye， iyo babafashe babambika amapingu， bakabashyira hamwe， bakabafotorana n'ibikoresho by'abandi bibye， bakabajyana kubafunga， byaba ngombwa bakabaka ihazabu y'amafaranga， ahinganye n’igifungo babahaye，bakazavamo bamaze kugororoka，batazongera kwiba.

Etaje nziza, imeze neza ,isa neza ,iteye amarangi meza, ifite ikibuga cyiza, inzu ikorerwamo imyitozo ikaremeramo n'inama zigiye zitandukanye ,abasirikare iyo bari gukora imyitozo baba batonze umurongo, bafite n'amadarapo y'igihugu cyabo.

Sale nziza imeze neza ifite ibitambaro byiza bimeze neza bisa neza, irimo intebe zicaraho abaje mu nama n'abayobozi bayoboye inama, abaje mu nama baricaye bateze amatwi umuyobozi uhagaze imbere yabo, afashe icyuma cy'indangururamajwi ari kubagezaho inama yabateguriye kubagezaho.

Inteko rusange y'abaturage mu mudugudu iba ikenewe, cyane cyane ko baba bagomba kwicara ,bakaganira ku bibazo bitandukanye .Abasirikare bayobora muri uwo mudugudu babateranyirije hamwe ,bafata indangururamajwi bavugiramo ,kugira ngo bumvikanishe ibyo bagiye kubagezaho, abaturage babateze amatwi bari kumva inama yabateranyirije muri uyu mudugudu.

Ishyamba ryiza rimeze neza, riri kugendamo abasirikare bafashe n'intwaro zabo, bambaye impuzankano z'akazi. Bari kwirukanka bagiye gutabara ahantu habereye ibibazo, kugira ngo abaturage bahatuye bakomeze kugira umutekano uhagije.

Inteko rusange yababaturage mu mudugudu, iba ikenewe, kugira ngo baganire ku bibazo bigiye bitandukanye, nuko bacunga umutekano neza mu mudugudu wabo, haba haje abayobozi ba RIB, bakabagezaho amakuru, n'uburyo ki bajya baritwara, kugira ngo umutekano ukomeze kurushaho kugenda neza.

Kizimyamwoto gaze na peteroli, ni bimwe mu bikoresho bishobora kwangizariza ibintu bigiye bitandukanye, bikangiriza n'abantu ni yo mpamvu abakozi bagiye gukora muri kampani runaka, babanza bakabereka uburyo bakoresha kimyamoto iyo habaye inkongi y'umuriro.

Abagabo b'abasirikare bameze neza, bambaye neza, iyo bari kugenda mumuhanda umeze neza, iyo bari kujya mu kazi, bagenda kumurongo buri muntu ari kugenda inyuma ya mugenzi we, kugeza bageze aho bagiye.

Abanyeshuri batemberejwe n'abayobozi babo, babajana kubereka ukuntu bazimyayaga inkongi z'umuriro.

Inzu nziza imeze neza, iteye amarangi meza, ifite amarido meza. Ikorerwamo inama zigiye zitandukanye. Iyo abantu baje mu nama baricara bagatega amatwi uwayoboye inama, ufite ikibazo agashyira agatoki hejuru akabaza ikibazo cye bakamusubiza.

Sare nziza, imeze neza, iteye amarangi meza, isa neza, ikorerwamo inama zigiye zitandukanye, abantu bakoreramo inama baba bicaye mu gihandade kimwe bose bari kureba uri kubagezaho inama bateze amatwi ibyo ari kubabwira.

Sale nziza imeze neza, isa neza, yubatswe neza, ifitemo imbere intebe nziza zimeze neza, abaje mu nama muri sale bicaramo, bakicara bateze amatwi uyoboye inama, bamuhanze amaso ,buri muntu afite ikayi n'ikaramu ,arandikamo ibyavugiwe muri iyi nama.

Abayobozi bari mu nama bakoreshaga icyuma cy'ikoranabuhanga. Kibafasha kugeza ku baturage ubutumwa bagenewe.

Inzu nziza imeze neza, yubatswe neza, isa neza, isize amarange meza, ikorerwamo inama zigiye zitandukanye. Abagore n'abagabo bicaye muri iyi sare bari mu nama, hahagaze umugabo ufashe icyuma cyabugenewe cy'indangururamajwi ari kubabaza ikibazo cye.

Inteko rusange mu midugudu ni nziza iyo abaturage bateraniye hamwe baricara buri wese akavuga ikibazo cye, abayobozi bateranirije hamwe iyo nama bakumva ibibazo byabo, bakabasubiza, ibikemuka bakabikemurira aho ngaho, ibifite kuzakemurwa mu minsi yindi nawe bakamuha umunsi bazamukemuriraho ikibazo cye.

Mu muco nyarwanda ibikoresho gakondo ni byiza cyane. Nk'igisabo n'ihangaro tubikoresha turi kunywa amata, igicuma tukagikoresha tunywa urwagwa, agaseke tugakoresha tugiye gusura inshuti n'abavandimwe, agatara tugakoresha turi gukosora cyangwa turi gushyiraho utubuto tugiye dutandukanye, n'ikirago ni kiza cyane mu muco nyarwanda kucyicaraho.

Inzu nziza zimeze neza zubatswe neza, zijyanye n'umuco wa kera ni nziza zisa neza, zimeze neza, ziri ahantu heza, umuntu ukeneye kuza kuhasura, araza akinjiramo agatembera muri zo, akava muri imwe akajya mu yindi.

Abagabo n'abagore babyina indirimbo gakondo iyo bari kubyina, baturuka hirya bari kubyina bakaza begere imbere aho abantu baje kubareba bicaye, bakaza bari kubyina neza bagashimisha abantu baje kureba ukuntu babyina neza.

Umuco nyarwanda wa kera twagiraga isekuru n'umusekuruzo byo kwifashisha turi gusekura nk'amasaka twasaruye cyangwa agasombe ko kurya, tukagira n'umuvure wo gukamiramo umutobe n'urwagwa rwo gutwerera inshuti zacu, n'urwo kugurisha mu tubari tugiye dutandukanye.

Mu muco nyarwanda wa kera, ababyinnyi gakondo babyinaga bafite inkoni zabugenewe , bambaye impuzankano zigenewe kubyina izo mbyino zabo, bagombaga kuba bafite abakaraza n'abaririmbyi babo babugenewe, bakabyinira abantu bakabashimisha muri ibyo birori byaho.

Ibisheke byiza, bimeze neza, bisa neza, umugore urikuboha ikirago cyiza, kimeze neza, iyo barikuboha ibirago baturuka hirya bari kujya hino, bagakomeza bakaboha, kugira ngo babone ibirago byo kuzicaraho iwabo mu rugo, n'ibyo kuzasagurira amasoko, bakabijyana ku isoko, bakabaha amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo bafite.

Abantu babyinaga indirimbo gakondo， bagomba kuba bambaye imyenda zabugenewe， bakagira abakaraza bari kubafasha kuririmba izo ndirimbo zabo bari kubyina.

Inzu nziza zimeze neza. zubatswe neza mu buryo bwa kijyambere, zubakishijwe amatafari ameze neza n'amabati meza ameze neza. Hari n'indabyo ziba mu bintu byagenewe kuzishyiramo, umuhanda mwiza umeze neza wegeranye n'iyi nzu.

Abasore beza bameze neza babyina indirimbo gakondo bambaye neza impuzankano zabo. Babyinira ahantu heza hameze neza iyo bari kubyinira abantu batandukanye barushyaho kwishima bitewe n'ukuntu bazi kubyina izo ndirimbo zabo.

Mu muco nyarwanda isekuru n'umusekuzo, tubyifashisha turi kubikoresha gusekura nk'amasaka cyangwa isombe abaturage bakeneye kurya, bigatuma turya ibintu bifite ubuziranenge kandi bimeze neza.

Ikibindi cyiza kimeze neza ,gikozwe neza gifite intango nziza, ikibindi ni kimwe mu bikoresho dukoresha turi kureka amazi cyangwa twashigisha nk'umusururu tukawusukamo kugira ngo uzahiremo tuzawunywe umeze neza.

Umuco wa kera wahozeho, aho abantu biiki gihe basigaye baraza bagateranira muri sitade, baje kwiyibutsa uburyo kera batwaraga, abantu cyangwa ibintu, umuntu yararwaraga bakamutwara mu ngobyi, bakamujyana kwa muganga, bamugeza kwa muganga bakamuvu neza, yamara gukira akabona gutaha.

Isekuru n'umusekuzo ni igikoresho cy'umuco nyarwanda wa kera dukoresha turi gusekura nk'agasombe kameze neza, tukagikoresha turimo gusekura imyumbati yo kurya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umuntu ubyina indirimbo gakondo aba yambaye impuzankano y'izo mbyino. Imyenda y'inshabari, urunigi, ingofero zabugenewe kugira ngo agaragare neza imbere y'abo bantu agiye kubyinira.

Uduseke twiza tumeze neza, dusa neza, umukecuru n'umukobwa we babiboha, babiboha neza, bakabishyiraho n'imitako ituma tugaragara neza. Abantu baje kutugura batugura bishimye kubera ukuntu dusa neza.

Abakobwa beza, bameze neza, bambaye neza imikenyero myiza. Imikenyero ni imwe mu myambaro ikunzwe cyane ku bakobwa bagiye gushyingirwa n'abagore bagiye mu bukwe. Umuntu wambaye umukenyero aba aberewe cyane.

Inka z'inyambo ni zo kera bororaga, uwazororaga neza zamuhaga umukamo mwiza zikanagira amata garyoshe.

Kugosora nibyiza bidufasha guhunika imbuto zacu zisa neza. Bityo tukazazihinga mu kindi gihembwe bitatugoye no kuba twazijana ku masoko zisa neza cane.

Ababyinnyi babyina indirimbo gakondo baba bambaye impuzankano zabugenewe, bambaye neza, bafashe n'amacumu bifashisha, bari kubyina, babyinira mu kibuga kimeze neza.

Icyapa kiranga ahantu babariza ibijyanye n'ubukorikori bugiye butandukanye, harimo n'umuco wa gakondo.

Ikibindi cyiza kimeze neza, gisa neza giteretse ahantu heza, twashyizemo urwagwa rwo kunywa, twagipfundikije ibindi bipfuko kugira ngo inzoga yacu itaza kwangirika cyangwa se ngo ise nabi, abaza kuyinywa bakayinywa yanduye.

Inzu nziza imeze neza isa neza yubatswe neza, ifite igipangu cyiza kimeze neza ikikijwe n'ibiti bimeze neza, inzu y'ubukerarugendo itembererwamo n'abantu bagiye batandukanye, bagiye kureba ibyiza bitatse igihugu cyacu.

Umugore n'umugabo bari kuririmba indirimbo za gakondo mu birori, bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Inka nziza imeze neza, isa neza, ifite amahembe meza atagiye hejuru ni nziza cyane, iragaragara neza. Umushumba wayo ari kugendana na yo afashe inkoni n'utwatsi two kuyiha igihe yaba ishaka ko ihagarara, yayiha kuri utwo twatsi igahagarara.

Abana bazi kubyina indirimbo gakondo babyina neza, iyo bari kubyina baba bambaye impuzankano zabugenewe bambara iyo bari kubyina nk'amayugi n'izindi mpuzankano, bafashe amacumu yabugenewe kugira ngo imyiyereko yabo, igaragare neza ku bantu baje kubareba.

Abantu banyweraga urwagwa mu muvure, banyweshaga imiseke zo kubafasha gukurura neza urwagwa kandi rwinshi.

Uducuma banyweramo urwagwa, n'ibigage n'imiseke banywesha, ibirago bicaraho cyangwa bakabyanikaho imyaka itandukanye.

Ingoma nziza zimeze neza zisa neza, abakaraza bambaye neza impuzankano zabo bafite uduti two gumesha ingoma twiza tumeze neza, iyo bari gukomera ababyinnyi ingoma babyina bameze neza kubera ukuntu bari kubakomera ingoma neza cyane.

Abahizi gakondo ba kera，iyo bajyaga guhiga mu ishyamba， bagendaga bambaye impuzankano zabugenewe， bafashe ibisongo n'amatopito， barifashisha bari guhiga，bikabafasha kwica udusimba tugiye dutandukanye.

Umuco nyarwanda uracyahari ababyinnyi barabyina babyina indirimbo za gakondo bambaye imishanana, mbere yo kubyina babanza kurya kugira ngo babone imbaraga zituma babyina neza. Imodoka nziza zigezweho, umuhanda mwiza ugezweho byose bimeze neza nta kibazo.

Mu Rwanda rwo hambere batekaga ibiryo mu dukono bita utubindi. Bimwe bakabitekesha inkwi bigashya bimeze neza, bitandukanye n'ibyo duteka muri iki gihe, tukabiteka ku bikoresho by'ikoranabuhanga bita gaze.

Ibisabo bimeze neza, abakobwa bameze neza, babyina indirimbo za gakondo, basa neza, bambaye neza, aho babyina bafashe ibisabo, basusurutsa abaje kubareba, baturutse mu mpande zose zitandukanye, bityo bigatuma abaje kubareba bataha bishimye, banejejwe n'ukuntu abakobwa bababyiniye.

Inzu nziza imeze neza, yubakishije ibyatsi yubatswe neza, n'inzu ya Kinyarwanda imeze neza, ifite imbuga nziza ikikijwe n'igipangu cy'ibyatsi cyiza. Inka nziza imeze neza, ifite amahembe meza, inka za kera zabaga zifite amahembe azamuye hejuru.

Inzu nziza y'ubukerarugendo imeze neza isa neza, inzu z'ubukerarugendo ni nziza cyane zituma tumenya umuco wa kera, iyo abazungu cyangwa abandi baje kuzisura binjiramo bakayitemberamo, bakabereka ibikoresho bya gakondo bigiye bitandunye.

Amasaka meza, ameze neza, yeze neza, aratukuye, asa neza, aya masaka namara kuma tuzayaca tuyajyane mu rugo tuyahure, hari ayo twinika tukayakoramo umusururu, ayandi tukagagurishamo ibikoma by'abana, ayandi tukayajyana ku isoko bakaduha amafaranga yo kuguramo ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Muco nyarwanda uracyahari. Aho abantu bicara hamwe, bagasangirira hamwe urwagwa ,bakanywera mu gicuma no mu bibindi ,bagateranya inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi babo bagasangirira hamwe bicaye hamwe kandi baganira.

Igicuma kiza，kimeze neza，gisa neza， gikozwe neza，iyo turi kugikoresha，tugishyiramo umuseke wo kunywesha， ibinyobwa twashyizemo，nk'urwagwa，cyangwa umusururu.

Icibo ciza dukoreshaga tugiye gutwerera ahantu habaye ubukwe ,cyangwa tugiye gusura inshuti zacu, n'abavandimwe bacu.

Imboga nziza, zimeze neza, zisa neza. Imboga z'isogi ni nziza ku bantu bose. Iyo imvura yaguye zikura zimeze neza, zisa neza, twajya kuzisoroma na twe tukazisoroma twishimiye ukuntu zisa neza.

Abagabo, abasore n'abana batoya bicaye ku ntebe bari gukina urusoro, bamwe bagakina bari gutsinda abandi. Iyo umwe akinnye agatsinda undi, barafana kubera ukuntu yakinnye neza. Uwo mukino bari bari gukina.

Ishyamba ryiza, rimeze neza, rifite ibiti byiza, riba mo umutiba umeze neza. Utegerwamo inzuki kugira ngo nyirawo azabone ubuki bwo kujyana ku isoko, kugurisha, kugirango abashe kubona amafaranga yo gukemura ibibazo bye bigiye bitandukanye.

Ibyatsi byiza bimeze neza bisa neza, umugabo wicaye ari kubaza udusekuro two gusekuriramo ibintu bigiye bitandukanye, afashe umuhoro wo kugenda aratema ku ruhande kugira ngo biringanire ,afite n'ishoka atemesha ibiti byo kwifashisha ari kubaza udusekuro.

Iduka ryiza rimeze neza ricururizwamo biseke n'udukoko n'inkoni z'abasaza ni byiza rimeze neza. Umugore ubicuruza iyo abonye abakiriya biramushimisha kubera ko abona amafaranga bamuhaye atuma akemura utundi tubazo tugiye dutandukanye cyangwa akarangura n'ibindi byo gucuruza ikindi gihe.

Abakobwa beza, bameze neza, bambaye neza, babyina indirimbo gakondo, iyo bari kubyina barambuye neza amaboko, bakabyina bishimye kugirango bagaragare neza imbere yabo bari kubyina.

Ibyatsi byiza bimeze neza n'indabo zimeze neza, urusahuzo rwiza rumeze neza ,urusahuzo ni igikoresho gakondo twakoreshaga tugiye gusahuza inkwi cyangwa amakoma tukarwifashisha.

Ababyinnyi babyina indirimbo gakondo iyo bari kubyina baba batonze umurongo, umwe w'abakobwa n'undi w'abahungu ikaba imirongo ibiri. Iyo bari kubyina barambura amaboko, babyina bambaye impuzankano yabugenewe.

Umuco nyarwanda wa kera aho abantu batashakaga kunywera mu rwuho cyangwa mu gikosi, bashyiraga umusururu mu gicuma cyabugenewe bagashingamo imiseke, ukeneye kunywa agaca bugufi agasomesha wa museke ushinze muri cya gico.

Ishamba ryororerwagamo inka z'inyambo rigomba kuba ryitaruye abaturage kugira ngo izo nka zibashe kubaho zifite umutekano.

Ababyinnyi babyina indirimbo gakondo， bambaye neza，bameze neza. Iyo bari kubyina indirimbo gakondo， baba bambaye impuzankano yabugenewe，harimo amayugi， imyenda yabugenewe，bafite n’abakaraza， n'abaririmbyi bari kubarimbira， indirimbo bari kubyina.

Abahungu ba kera bajyaga mu ishyamba, bakajyana imiheto n'imyambi byo kurashisha inyamaswa.

Uduseke twiza tumeze neza, na pero nziza zimeze neza, imitako myiza imeze neza, abantu babikora iyo babyujuje babijyana ku isoko kubigurisha, bakabaha amafaranga yo kugura ubundi bwatsi bwo kwifashisha bari kuboha ibindi biseke ,n'ubundi budodo bwo kwifashisha bari kuboha izindi na pero.

Umukubuzo mushasha, gubaga ari mwiza ku gukubuza, bitandukanye no gukubuza umukubuzo gushaje, gwakuvuna umugongo.

Igiseke cyiza kimeze neza gisa neza, kiboshywe neza kiri ahantu heza umuboshyi wakiboshye yagitatse amabara meza ameze neza, kugira ngo abakiriya bazaza kukigura nibakireba bazakishimire, bamuhe amafaranga yo kugura ubundi bwatsi bwo kubohesha ikindi.

Uducuma wanyweragamo inzoga n'imisururu tugomba kuba dufite imiseke zo kunywesha n'ibirago byo kwicaraho bari kunywa.

Umuco nyarwanda wa kera uracyahari, aho abantu bagiye gusaba abageni bajyana uducuma turimo icyo kunywa barahereza ba sebukwe, bakajyana n'abarabyina imbyino gakondo kugira abatashye ubwo bukwe barusheho kwishimira ibyo birori.

Igikoresho cya kijyambere bakoreshaga bari gukeba ibindi byuma byo kubakisha amazu n'imigezi, banagikoreshaga bari kugorora ibindi byuma.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyitwa imashini ni cyiza cyane, ku bantu bakora akazi ka leta n'abakora ibintu by'irembo, bagikoresha iyo bari kwandika cyangwa bari kugira kubikamo amadokima agiye atandukanye.

Iterambere rirakataje mu gihugu cyacu，aho ku muhanda dusigaye tuhatera indabyo zimeze neza， tugashyiraho n'ibiti bimeze neza， imvura yagwa bikarushaho gukura neza， tugashyira n'amatara ku muhanda， yo kujya amurikira abantu bahanyuze，kugira ngo dukomeze kugira umutekano uhagije.

Ipensi nziza imeze neza. Ipensi ni igikoresho dukoresha turi gukata ibintu bigiye bitandukanye, turi gukata nk'ibyuma turi no kuzinga ibyuma bigiye bitandukanye, tukanayikoresha turi gukora imigezi.

Ipensi ni igikoresho cya kijyambere dukoresha turi gukata ibintu bigiye bitandukanye, nko gukata ibyuma, kuzinga byuma ku mafera beto, tunagikoresha turi gukora imigezi.

iterambere rirakataje mu gihugu cyacu aho abaturage basigaye batura ku muhanda umeze neza, hari n'amatara ameze neza, tukagira n'ibipangu iwacu bidufasha kurinda umutekano w'urugo rwacu.

Inzu nziza imeze neza， yubatswe neza，iteye amarangi meza， ifite amadirishya meza，igeretse，abantu bayigiramo， abiga hejuru barazamuka， abigira hasi bakamanuka， ifite n'ikibuga kiza， iyo bagiye gukina bose， bahurira muri iki kibuga， akaba ariho baganirira.

Amazu meza ameze neza,. asize amarangi meza yubatse neza. Harimo igipangu cyiza kimeze neza, gifite umuryango mwiza. Umuntu uhaje arakomanga bakamukingurira akabona kwinjira. Harimo icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwa muri iki gipangu. Gifite jaride nziza imeze neza, hari n'ibiti bitanga akayaga.

Aga mazu, bubakiye abaturage batishoboye, gubatse neza, ahantu heza, babashiriyeho n'umuhanda mwiza.

Ikiraro cyubatse neza kinyuragaho abantu batandukanye nibintu, nk'amamoto, amagare, n'imodoka bitwaye abantu n'ibintu bitandukanye bija hirya y'icyo kiraro.

Inzu nziza ,imeze neza ,yubatswe neza, ifite imiryango myinshi irageretse ni etaje hari abantu baje kuhashakira serivisi ,ifite n'ikibuga cyiza kimeze neza.

Hoteri nziza imeze neza. Yubatswe neza muburyo bwa kijyambere. Yubakishijwe amabati meza. Isize amarangi meza ,ifite jaride nziza. Zimeze neza zisa neza ,zisi amarangi meza. Hari n'amadarapo y'igihugu cyacu ameze neza.

Inzu nziza imeze neza, yubatswe neza. Isa neza ni nziza cyane. Ifite amakaro hasi. Hari amagambo agaragaza ko ari akagari ka Kampanga ,keza kameze neza. Gafite imiryango myiza ,imeze neza.

Umuhanda mwiza, igipangu cyiza kimeze neza gisize amarangi meza. Hari n'icyapa kigaragaza ibikorwa bikorerwaga muri icyo gipangu. Inzu nziza ,indayo nziza hari n'ishyamba ryiza zitanga amambezi muri iki........

urusengero rwiza, rumeze neza rwubatswe neza, ni rwiza cyane. Kubera ukuntu rwubatswe rurimo n'amakaro, inzugi z'ibirahuri bya fime, ruri ahantu heza h'umuhanda. Hari n'amajaride meza. Abakirisitu barusengeramo bishimiye ko babonye urusengero rwiza bitewe n'ukuntu rwubatse n'uko rugaragara.

Umuhanda mwiza umeze neza, usa neza, wubatswe neza, ku ruhande rw'umuhanda hari ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa muri aya mazu ari aha, icyapa kigaragaza ko hari akarere kameze neza kubatswe neza, gafite jaride nziza, n'ibiti byiza ku ruhande.

Urusengero rwiza, rumeze neza, rwubatswe neza, ni runini cyane, rusengerwamo n'abantu benshi, rufite ikibuga cyiza kimeze neza, abakirisitu iyo bategereje ko abandi basohoka bahagararamo.

Inzu nziza, zimeze neza, zubatswe neza, zisize n'amarangi meza, zifite n'agashyamba inyuma gatanga akayaga, ikibuga kiza, n'indabyo nziza, umuntu uje kuhatemberera, aricara akaba ameze neza kubera akayaga.

Urusengero rwiza rumeze neza, rur'ahantu heza, ikibuga cyiza, parikingi nziza, hari amazu gagiye gatandukanye, rusize amarangi meza, rufite imiryango myiza, y'abakirisitu binjiriraragamo, baje gusengera mugo rusengero rumeze neza, ruri ahantu heza.

Umujyi mwiza, umeze neza, usa neza, ufite amazu meza, kaburimbo nziza n'amatara. Iyo umuntu ari kuwugendamo, agenda ari kubona nta mwijima uhari, kubera ukuntu hasa neza n'amatara ari kwaka.

Aga mashuri gakeneye umuhanda. Ugendwagamo n'ibinyabiziga bitandukanye kugirango abanyeshuri, cyangwa abayobozi baho baje barahagera biboroheye.

Inzu nziza imeze neza yubakishijwe amatafari ameze neza, bashyizemo agasima keza, saro nziza imeze neza, irimo sima nziza, intebe nziza, n'ameza meza, uyicayemo aba anezerewe kubara ukuntu bimeze neza.

Abagore n'abagabo bishyize hamwe bakora koperative yo gukora uduseke n'utundi tugiye dutandukanye, kugira ngo bajye babona amafaranga yo gukoresha ibindi bintu bigiye bitandukanye, bityo barusheho nabo kwiteza imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Abayobozi iyo bari mu nama bakoreshaga icuma cabugenewe c'ikoranabuhanga, kugira ngo kibafashe kumvikanisha ijwi ryabo, ku baturage bagenewe ubwo butumwa.

Iyo abaturage batoye umuyobozi uzabayobora amanikaga ikiganza akagamba imigabo n'imigambi y'ibintu azabagezaho mu iterambere.

Urujya n'uruza rw'abantu muri kaburimbo. Abamotari batwaye moto nziza zimeze neza. Bambaye impuzankano zabugenewe nk'amajile na makasike. Amatara meza yo ku muhanda.

Izi modoka zitwaraga amagaraviye bubakishaga amazu gagiye gatandukanye, bakagakoresha bari no gushira isima mu nzu.

Imodoka nziza，zimeze neza， zisa neza za ritiko， zisize amarangi meza y’ubururu，ay’icyatsi n'umweru， zifite ibirahuri bya fime， zitonze umurongo muri gare， zitegereje abagenzi bo gutwara， zibavana muri gare zibajyana aho bagiye.

Imodoka y'ambulanse nziza imeze neza iri kugenda mu muhanda itwaye abarwayi, ibavana ku bitaro ibajyana ku bindi bitaro, iri kunyura impande ya gare itwaye abarwayi ibajyanye ku bitaro.

Urujya n'uruza rw'abantu muri gare bari kugenda ahantu hagiye hatandukanye ,bagiye gutega imodoka . Imodoka nyinshi nziza, zimeze neza, zitwaraga abagenzi zibavanye mu ntara zibajyanye mu yindi . Buri muturage wese ushaka gutega imodoka ajya muri gare, ikamutwara, ikamugeza ahantu agiye.

Imodoka nziza ziparitse ku muhanda gunyuragamo ibindi binyabiziga nka moto, n'amagare n'abandi bantu, zitwaraga abagenzi zikabajana mu turere n'intara bitandukanye.

Imodoka nziza imeze neza, ni ndende ni nziza cyane, itwara abagenzi ibavanye mu gihugu kimwe, ibabajyanye mu kindi, nko kubakura i kigali ibajyanye kampala, hari ni icyapa kiri mu muhanda, kigaragaza aho iyo modoka iba ivuye, n'aho iba igiye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ku kiyaga, bategereje ubwato bwo kubatwara, iyo baje ku kiyaga bakeneye kwambuka, batonda umurongo, ubwato bukagenda buratwara bamwe, bubavana ku nkombe bubajyana ku yindi, bwabagezayo bukagaruka bugatwara n'abandi bahasigaye.

Imodoka nziza imeze neza, isa neza, iteye amarangi meza, abantu bayigendamo bagenda bicaye neza, kubera ko ari ndende cyane, izindi modoka iyo ziri kuyigenda inyuma, zigomba kugenda gakeya, kugirango zirinde gukora impanuka.

Sitade nziza, imeze neza, yubatswe neza, imodoka nziza, imeze neza, ni ndende iyo abanyeshuri bagiye kujya ku ishuri bajya muri sitade, imodoka zikajya zibakura muri sitade zibajyana ku bigo byabo, aho biga.

Amazu meza ameze neza yubatswe neza azamuye hejuru, imodoka nziza zimeze neza muri gare hameze neza, hari kaburimbo nziza ,abagenzi bagiye ahantu hagiye hatandukanye baraza bakajya muri izi modoka zikabatwara zikabajyana iyo bagiye.

Rifani nziza, imeze neza, isa neza, umushoferi utwara rifani aba yambaye kasike, afashe imbere kugirango ayobore neza, iyo moto ye. Ni kimwe mu bikoresho twifashisha turi gutwara imizigo tuyivana ahantu hamwe tuyijyana ahandi.

Urujya n'uruza rw'abantu muri gare abagore n'abagabo bambaye udupfukamunwa, imodoka nziza zigezweho aho buri modoka zigenda zitwara abantu bagiye ahantu hagiye hatandukanye, buri muntu imodoka ikamugeza aho agiye, aho ibintu byoroshye umuntu atakigenda n'amaguru ngo ave mu karere kamwe ajye mu kandi agenda n'amaguru, bimworohera agafata imodoka ikamugeza aho agiye kandi mu gihe gito.

Umuhanda mwiza umeze neza, ugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Abanyonzi batwaye abagenzi babajyanye iyo bagiye, abandi banyonzi baparitse bategereje abagenzi, igipangu kiza kimeze neza, ibiti byiza byo ku muhanda bitanga akayaga bimeze neza.

Iterambere rirakataje aho umugore atwara moto, n'abagabo bakayitwara bajyanye imizigo ahantu hagiye hatandukanye harimo: nk'amavuta, amakarito harimo ibintu bigiye bitandukanye, babonye n'imihanda myiza batwariramo bityo bakagera iyo bagiye amahoro.

Imirima myiza imeze neza ihinzwe neza, ihingwamo ibyokurya bigiye bitandukanye, ni nziza zimeze neza zituye ko umuhanda umeze neza, ugendamo imodoka n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye, abantu bahinga muri iyi mirima biraborohera kubona ibinyabiziga bibatwarira imizigo.

Uruja n'uruza muri gare rw'abagenzi, imodoka zitandukanye zitwaraga abagenzi zibajanye mu ntara zigiye zitandukanye, no mu turere tugiye dutandukanye.

Moto n'imodoka zimeze neza zijyanye n'iterambere tugezemo zitwara imizigo igiye zitandukanye zorohereza abantu mu bwikorezi, mu mihanda imeze neza zitwarira abantu imizigo zikayijyana ahantu hagiye hatandukanye.

Inzu nziza imeze neza yubatswe neza isize amarangi meza, hari n'ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwa muri iyo nzu, imodoka nziza iparitse impande y'iyi nzu, urujya n'uruza rwa moto muri kaburimbo zitwaye abagenzi zibajyanye aho bagiye, akazu ka Emutiyene gacuruza ibya mobayilomani.

Iterambere rirakataje aho abaturage bo mu bihugu bigiye bitandukanye, bagenda mu ndege igenda mu kirere ikavana abantu mu gihugu kimwe ikabajyana mu kindi, iturutse ku kibuga cyazo cya bugenewe.

Imodoka nziza zimeze neza, zitwara imizigo ziyivanye ahantu hamwe ziyijyanye ahandi, iyo bazipakiyemo imizigo bashyiraho hejuru shitingi kugira ngo imvura nigwa zo kunyagirwa, zigereyo zikimeze neza.

Sitade nziza imeze neza yubatswe neza, imodoka nziza imeze neza, isize amarangi meza abanyeshuri beza, bambaye neza, imodoka zitwara abanyeshuri zibajyanye ku ishuri, zibakuye muri gare.

Imodoka zitwara abagenzi zi muri gare ni nziza cyane zimeze neza. Harimo indabyo nziza ziba zitonze umurongo umugenzi ugiye kugenda akaza mu modoka igezweho igiye kugenda, akajyana nayo yagera imbere akishyura shoferi amafaranga akinjira mu modoka.

Iterambere rirakataje, urujya n'uruza rw'abantu, imodoka nyinshi, moto zitwaye abagenzi, kaburimbo nziza, zimeze neza, aho abaturage bari kugenda n'amaguru, twabashyiriyeho inzira bambukiramo kugira ngo bambuke abafite umutekano uhagije.

Ubwato butwaraga abantu mu mazi, bufite umusare ubatwaraga, akabageza ahantu bagiye hatandukanye.

Imodoka nziza, imeze neza, iteye neza, isa neza, iteye amarangi, ifite umuryango mwiza umeze neza , abantu bafite ubumuga bwo kugenda nabo bayigendamo bitewe n'aho bagiye. Bayikoze neza aho bakoreye abantu bose kuyijyamo nta n'umwe uhejwe.

urujya n'uruza muri gare abantu ni benshi. Batonze umurongo bategereje imodoka bagiye kujya mu turere tugiye dutandukanye no mu ntara ziigihe zitandukanye. Imodoka muri gare ni nkeya, abagenzi bazibuze babatondesheje umurongo kugira ngo ni ziza zibatwara bizoroheye.

Hoteri nziza, ishyamba ryiza, intebe nziza, ikibuga cyiza, pisine nziza abantu bogeramo baje gutemmberera muri iyo hoteri, ni heza hameze neza, umukiriya uhaje yifuza kuhahagaruka, bitewe n'ukuntu hameze neza.

Ikibuga cyiza kimeze neza, abahungu bakina umupira w'amaguru bameze neza ,bambaye neza iyo bari gukina umupira ,baba ari amakipe abiri ahanganye bari gucenganwa ,ufashe umupira akawushorera kugeza igihe agereye ku rucundura ,agatsinda igitego.

Inzu nziza imeze neza iteye amarangi meza, ibitoki byiza, imodoka nziza iteye amarangi meza iyo irikugenda mu muhanda utameze neza igenda iratera abandi umucucu na yo ikagera iyo iragera isa nabi.

Sitade nziza, imeze neza, isa neza ifite ikibuga cyiza gifitemo tapi nziza, imeze neza abakinnyi b'abahungu beza, bameze neza, bambaye iniforume nziza, iyo bari kwifotoza baba bahagaze ku murongo ,umwe buri wese yafashe positeri ye.

Iterambere rirakataje aho umukino w'amagare abantu bawutwara baba bambaye iniforume zabugenewe batwaye amagare yabo bava mu gace bajya mu kandi, aho bagiye banyura bakahasanga hari abaturage bahagaze ku muhanda bari kubogeza kugira ngo barusheho gutwara amagare yabo neza.

Sitade nziza, imeze neza, ihurirwamo n'abantu bagiye batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye, no mu duce tugiye dutandukanye, iyo baje kureba umupira baba bishimiye cyane, abakinnyi bari gukina imbere yabo, buri bantu bari gufana ikipe yabo, yatsinda bagahaguruka bakishimira intsinzi yabo.

Ikibuga cyiza kimeze neza gisa neza, gifite amarangi meza gifite urushundura rwiza, abakobwa bakina umupira wa basiketi beza bameze neza bambaye impuzankano z'akazi, iyo bari gukina bakina ari amakipe abiri ahanganye umwe ari gutsinda uwundi, uwafashe balo yayifata akayijugunya muri rwa rucundura akaba atsinze igitego.

Ikibuga cyiza gikorerwagaho imyitozo ngororamubiri, gikinirwagaho mu imikino ya vole gifite ubucaca bwiza, gikikijwe n'ibiti bitangaga umuyaga ku bakinnyi baje bakigana.

Sitade nziza ifite igipangu abakinnyi bari gukiniramo. Abakinnyi bari gukina umupira umwe afite umupira undi akamurwanya bakarwana, uwarwanye bamukura mu kibuga bakamuhereza ikarita yumuhondo cyangwa iy'umutuku kugirango atazongera kurwana mu kibuga.

Abanyeshuri beza, bameze neza, bambaye iniforome nziza, zimeze neza, bishimiye ko bagiye muri siporo, bakaba bajyanye n'abayobozi babo, mbere yuko bagenda babanza batonda umurongo, bagashyiraho akantu gatuma batarenga ahongaho, kugirango batonde umurongo neza, nibajya kugenda bagendere kimwe badasiganwa.

Itsinda ry'abantu bakoraga siporo mu gihugu, rifashe idarapo rigaragaza igihugu cya bo.

Umuhanda mwiza, umeze neza, abakinnyi b'amagare bambaye neza, imodoka zibaherekeje, na moto z'abapolisi zibagenda inyuma, abaturage baje kureba uwo mukino w'amagare no kogeza abakinnyi b'amagare kugira bakomeze kugira imbaraga zo gutwara ayo magare.

Abakinnyi beza bambaye neza, bameze neza. Abakinnyi bakina umupira wa basiketi iyo bari gukina bakina ari amamakipe abiri atandukanye, ikipe imwe iri gutsinda iyindi. Ufashe umupira wo mu ikipe imwe akawujyana akawujugunya mu rushundura akaba atsinze igitego.

Inzu nziza imeze neza isa neza icururizwamo amabaro abakinnyi bakina n'imyenda y'abakinnyi bambara, inkweto za siporo. Abagabo babiri bayirimo harimo uri kugurisha n'uri kugura, uri kugurisha yishimiye ko agurishije, umuguriye yishimiye ko ajyanye ibintu bifite ubuziranenge.

Umukinnyi mwiza wambaye neza iniforume akinana umupira afashe balo, ari gukina n'abandi bakinnyi bari gukina gutsindana, kubera ko umupira awufashe agiye kugenda age kuwushira mu rushundura abe atsinze igitego.

Sitade nziza imeze neza yubatswe neza, ni nziza cyane ikibuga cyiza kimeze neza, abakinnyi bakina umupira w'amaguru bameze neza, bambaye neza bari kwifotoreza mu kibuga cyabo bakiniramo umupira.

Abakinnyi b'abakobwa bameze neza bambaye neza, bahagaze mu kibuga barikumva inama koca wabo ari kubagezaho kugira ngo batangire umupira bameze neza, muri sitade abaturage baricaye bategereje ko umupira utangira bagatangira bagapfana.

Koga mu mazi menshi ni byiza cyane kubera ko umuntu aba ari gukora siporo, abakobwa n'abahungu, abagore n'abagabo bajya kogamo kugirango barusheho kugira ubuzima bwiza, umuntu wese ushaka kujya koga mu mazi menshi ajyamo ariko akirinda kujya kure kugira ngo atarohama.

Ikibuga cyiza kimeze neza. Ni cyiza kugikiniramo umupira wa tenisi. Abantu bagikiniramo iyo bagiye gutsinda igitego bafata balo yabo bakayijugunya mu rushundura, igitego kikaba kirinjiye.

Abakinnyi beza bameze neza, bambaye neza, basa neza. Iyo bateraniye hamwe baba bari mu kibuga bafashe amabalo meza, ameze neza bicaye ku magare yabo ameze neza, ateye y'amarangi...

Mu kibuga cya basikete, harimo amakipe abiri y'abakobwa ari gukina, imwe iri gutsinda iyindi, buri kipe ikaba ifite abafana bayo.

Ikibuga cyiza, kimeze neza, abakinnyi bakina b'umupira wa basiketi bameze neza, b'abakobwa iyo bari gukina; uwafashe umupira arirukanka akawujyana mu rucundura akaba atsinze igitego.

Abakinnyi b'abakobwa bameze neza basa neza, bakina umupira w'amaguru, iyo bari mu kibuga bagatsinda igitego, abantu bagiye batandukanye baje kubafana bakoma amashyi kubera kwishimira ibitego byabo.

Ibikombe byiza bimeze neza bisa neza, bitatseho idarapo ry'u Rwanda. Ni byiza cyane, baro nziza zimeze neza z'amabara meza, ibikombe n'amabaro tubikoresha iyo turi guhemba ikipe yatsinze ibitego byinshi.

Sitade nziza imeze neza, ifite intebe nziza zisize amarangi agiye atandukanye. Abaturage baje kureba umupira, abakobwa bakina umupira wa basiketi, iyo bari gukina baba bafite umusifuzi uri kubasifurira, kugira ngo umukino wabo urusheho kuba mwiza.

Abakinnyi b'abakobwa beza, bameze neza, bambaye neza. Ikibuga cyiza kimeze neza bakiniramo umupira w'amaguru. Ni beza iyo bari kumwe na koci wabo baba bishimye cyane.

Abakinnyi bo mu iki kigo cy'amashuri batonze umurongo umwe, bateze amatwi umuyobozi wabo, ariwe mutoza wabo.

Abakinnyi bakina umupira kwa tenisi, bameze neza, bambaye neza, ikibuga cyiza, gisize amarangi meza, iyo bari gukina mu izamu haba harimo uri kuwufata, wamucika igitego kikaba kinjiye.

Abakinnyi ba tennis bameze neza bambaye neza impuzankano, inkweto amasogisi n'amakabutura yabugenewe, bagafata n'akantu kabugenewe ko guteresha uwo mupira, bari gukina mu kibuga kimeze neza n'ahabugenewe gukinirwa iyo mikino.

Abakinnyi b'abakobwa bakina umupira wa basiketi, bameze neza bambaye neza, barimo kibuga kimeze neza ,iyo bari gukina uwo mupira buri wese agenda arawufata ,akajugunya mu nshundura akaba atsinze igitego.

Sitade nziza imeze neza isa neza, abakinnyi bakina umupira w'amaguru bafite ubumuga bw'amaguru iyo bari gukina bicaye umupira wabo kuwureba uba ari byiza, abantu baje kubafana baba bishimiye kureba ukuntu bari gukina, bitewe n'ukuntu bakina neza cyane.

umukino wa tenisi ni umwe mu mikino ituma ubuzima bwacu bumera neza, amagufa akarambuka. Abahungu barawukina, abakobwa barawukina mu kibuga kimeze neza. Aho abantu bakinira haba hameze neza ku buryo umuntu aramutse aguye atagira n'ikibazo.

Sitade nziza，imeze neza， isa neza，abakinnyi bambaye neza， bameze neza， bari gukina umupira. Iyo bagiye gutsinda igitego， baragitera mu rucundura， nyezamu， akaba arawufashe， abantu benshi baje kureba uwo mupira， bari gufana amakipe abiri atandukanye.

Ikibuga cyiza kimeze neza ,gikozwe neza gisa neza. Umukinnyi mwiza umeze neza. Ukina umupira wa tennis ari gukina umupira mu kibuga kimeze neza.

Baro nziza imeze neza, isa neza. Balo ni igikoresho dukoresha tugiye gukina umupira. Haba uwa basiketi, haba uwa futubolo. Abana, abakuru, n'abatoya bose barawukina.

Ikibuga cy'umupira cyiza kimeze neza gisakaye neza, gifite aho kwicara heza, hasize amarangi atandukanye, ibyuma byiza, ikibuga cyiza, gikinirwamo imikino igiye itandukanye.

Ikibuga cyiza kimeze neza gisa neza gikinirwagamo umukino wa basiketl, abakinnyi bameze neza bambaye neza impuzankano zabugenewe, umusifuzi wasifurira, abantu baje kureba umupira kuntugura agenda

Umuhanda mwiza umeze neza akagari kacu ni keza, kegereye ku muhanda buri muturage cyangwa umuyobozi ushaka kuhagera atega ikinyabiziga ashaka haba moto, haba imodoka cyangwa igare byose birahagera.

Iterambere rirakataje aho mu Gihugu cyacu mu midugudu, basigaye bapima bakadushyiriramo kaburimbo, aho badashyize kaburimbo bakahashyira amabuye bita amapave, kugira ngo hagaragare neza, abaturage batuye muri uwo mudugudu bajye baranyura ahantu hameze neza.

Iterambere rirakataje mu gihugu cyacu, aho mu midugudu yacu basigaye badushyiriramo kaburimbo, aho badashyize kaburimbo bakadushyiriraho amapave, kugira ngo abantu dutuye muri uwo mudugudu tujye tunyura ahantu hameze neza.

Umudugudu gufite umuhanda mugari gw'abanyamaguru n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka, moto n'amagare, gubaga ari mwiza ku guturamo.